Tugera ahantu ho gusohokera, tunywa cyangwa se turya aho haba hateguwe neza, hari n'intebe kandi hafite n'ubusitani, ndetse n'ibiti bihakikije bituma haza akayaga keza, maze n'abahakorera bakabona amafaranga aturuka mu bakiriya bakira.

Kugira amaduka ni byiza cyane, kuko acururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, maze ababikeneye bakabibona mu buryo butabagoye, bakajya kubikoresha mu ngo zabo. Kandi n'abacuruza babona amafaranga aturutse mu bakiriya bakarushaho kwiteza imbere.

Amazu akorerwamo ubucuruzi aba ari meza cyane nk'iyo yubatse ku muhanda, aho abakeneye gushakiramo serivisi bahagera bitabagoye, kuko aba yegagereye umuhanda ugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye.

Inzu z'ubucuruzi ni ingirakamaro cyane, aho bacururizamo ibicuruzwa bitandukanye. Aho bacuruza n'amagaze yifashishwa mu guteka, maze abayakeneye bakayabona mu buryo butagoranye vuba.

Amazu y'ubucuruzi ni meza cyane, aho aba afite n'ibirango biranga ibyo bakora, bikaba byiza iyo yegereye n'umuhanda ku buryo uje abagana ahagera bitamugoye, yaba aje n'ikinyabiziga cya moto cyangwa imodoka.

Ubucuruzi ni bwiza cyane, ku bantu babukora, aho bashyiraho n'ibyapa bigaragaza ibintu bacuruza, bimwe bakabishyira n'imbere kugira ngo ababikeneye babibone bitabagoye, barusheho kuzamura iterambere ryabo.

Amazu y'ubucuruzi aba ari meza cyane, kuko abakeneye kugakoreramo babona aho gucururiza, ndetse n'abaguzi bakahagera bitabagoye, kuko haba hari na za parikingi ziparikamo ibinyabiziga by'abaje kugura, ndetse n'abaje kugurisha.

Ubucuruzi ni bwiza cyane, nko gucuruza ibintu abaturage bakunda gukenera mu buzima bwa buri munsi, nk'amakayi abanyeshuri bagura, imyunyu yo guteka, amasabune, amabahasha, aho ababicuruza babona amafaranga bakiteza imbere.

Ubucuruzi ni bwiza cyane aho bugomba gukorerwa mu mazu yubatse neza, kugira ngo abakoreramo bazabone abakiriya, kandi akaba yubatse ku muhanda, ku buryo abaza kuhagurira bahagera bitabagoye.

Amazu y'ubucuruzi afite akamaro cyane, nk'iyo yubatswe neza kandi akaba yegereye umuhanda, aho akorerwamo ibintu bitandukanye, nk'aho umuntu afatira icyo kurya, maze akajya kugifata yarangiza agasubira mu kazi ke yumva ameze neza, kubera ko yabonye aho arira bitamugoye.

Amazu y'ubucuruzi ni ingirakamaro, kubera ko abacururizamo bashyiramo ibintu bigiye bitandukanye abaturage bakenera nk'imbabura, amabasi, imikoropesho, imyenda, amasafuriya yo gutekamo imyuka ndetse n'ibindi, maze na bo bakabona amafaranga, bitewe n'uko baba barubatse inyubako zikorerwamo ibyo bikorwa.

Kugira ibikorwaremezo ni byiza cyane, nk'amahoteli afasha abantu kuruhuka neza, aho usangamo ahantu ho kurara, ahantu ho kurira cyangwa kuruhukira ,maze bigafasha abakoze uwo murimo kubona amafaranga aturutse, mu baje bashaka izo serivisi bakiteza n'imbere.

Amahoteri ni hamwe mu hantu abantu bajya kurira no kunywera, kandi abahubatse nabo bakabona amafaranga aturutse mu bakiriya kubera ko baje kuhasohokera aho haba hari ibiti ndetse n'indabo n'ubusitani, bituma haza akayaga keza ndetse n'imihanda yubatse neza ihagera nta kibazo.

Mu ma soko dusangamo ibintu bitandukanye nkaho babaza amasanduku, bifashisha bari gushyingura abantu ndetse bakayatunganya neza bakayashyira ahantu atarangirika ku buryo abagize ibyago bapfushije abantu bayahasanga bakayagura bakajya kwitabaro.

Mu isoko habamo ibicuruzwa bitandukanye n'inkweto z'uruhu iz'amazi aho abaguzi bazisangamo maze abagurisha bakabagurisha ku biciro bumvikanyeho, bityo bakabona amafaranga bifashisha, bakora ibindi bikorwa bibateza imbere.

Ubucuruzi ni bwiza cyane, nko gukora ubucuruzi bw'bikoresho byo mu gikoni, aho dusangamo nk'ibikombe, amasahani, ibyuma, ibiyiko, amafoke, indobo n'ibindi bitandukanye.